Inzu nini irimo abantu benshi, harimo ababyinnyi, aho hagaragara umukobwa uri kubyina uteze amaboko, wambaye imyenda y'umweru uri kubyina.

Umuhanda mugari urimo umuyobozi w'igihugu, inyuma ye hari abagabo bambaye udupfukamunwa, kuruhande hari umusirikare, kuruhande rwabo hari inzu nini.

Mu kibaya hari abantu benshi higanjemo urubyiruko, abagore, abagabo n'abana, harimu umugabo muremure usa n'aho akuze ari muri icyo kirori.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo bambaye imyenda y'umweru, umukara n'ubururu, bari mu nyubako nini irimo amabara y'umweru n'umukara.

Ikibuga kigari iruhande rwacyo gikikijwe n'ibiti, ndetse muri icyo kibuga hari abasore bari gukina umupira, ku ruhande rwabo hari umugabo wambaye ingofero usa naho ari kureba umupira, ariko ku ruhande naho, hari igare ririho amabuni y'amazi.